Bare ni nziza cyane kuko zibamo ibinyobwa byinshi cyane bigiye bitandukanye, bidufasha guhuza abantu bakagira urugwiro, maze bakanywa bakishima ku buryo bataha banezerewe.

Bare ni nziza cyane, ituma abantu bahura bagasangira, bagasabana, bakishima cyane, maze bagataha banezerewe ntamubabaro baryohewe n'ibyishimo byinshi bibasanga ku maso yabo.

Bare ni nziza cyane , zituma abantu babona aho baruhukira , bakishima hamwe n'umuryango wabo , bakanezererwa , kubera yuko baba babonye aho kuruhukira , barabona n'ibyo kunywa byinshi , maze bikabanezeza cyane.

Umudugudu w’iwacu harimo bare nyinshi cyane zicuruza ibintu byinshi bitandukanye. Hari izicuruza ibirayi, burushete, ibyo iyo uri kubirya, uri kureba n’umupira, urakunezeza cyane, ugafana neza, unezerewe.

Bare ni nziza cyane kuko ituma abantu badaheruka guhura bahura, bakanywa, bakanezerwa, bakishima ku buryo buhambaye, kandi bare ihuza inshuti n'abavandimwe batandukanye mu bihe bya kera muri kino gihe byateye.

Bare ni nziza cyane, zibamo ibinyobwa byinshi cyane bigiye bitandukanye, usanga abantu bari kuzinwa bahuje ikiganiro, bagasabana bakanezererwa.

Ibisheke ni byiza cyane biraryoha. Kandi biba bifite isukari nyinshi cyane ku buryo buhagije, ku buryo abantu benshi bakunda kukigura kubera uburyo kiba ari cyiza. Ariko muri kino gihe igisheke gisigaye gihenze kubera yuko umusaruro usigaye uraza ari mukeya bigatuma abantu benshi batabikunda.

Butike zicuruzwamo ibikoresho byinshi cyane bitandukanye, nk'ibiribwa bigiye bitandukanye hari butike zicuruzwamo ibikoresho byo mu nzu, hari na butike zicuruzwamo ibiribwa byo kurya, maze abantu bakabihaha ari benshi.

Butiki ni nziza cyane. Idufasha mu mudugudu w'iwacu gutuma abantu batajya guhaha kure, maze ibikoresho bikabageraho ku gihe, bagatekera ku gihe kubera butiki zaziye igihe mu mudugudu.

Botike ni nziza cyane. Idufasha gucuruza ibikoresho bigiye bitandukanye, dukenera mu buzima bwacu bwa buri munsi. Rakelete, amabase, indobo, ibyo byose turabikenera kubikoresha ahantu hamwe na hamwe hagiye hatandukanye.

Butike bacuruza ibintu byinshi bigiye bitandukanye; hari amabutike bacuruzamo ibiribwa, hari n' ayandi bacuruzamo imyenda zo kwambara, dukoresha mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Butike ni nziza cyane zidufasha kubona ibicuruzwa hafi, nk'umuceri, akawunga, ibijumba, inyanya, intoryi n'amakara, adufasha mu gucana, kugira ngo tubona amafunguro atunganijwe neza tukanezerwa.

Umudugudu w’iwacu habamo amabutike menshi cyane acuruza inzoga na za Pirimusi, za Malite, ndetse bigatuma abagabo bahurirayo nijoro bavuye mu kazi bakaganira ku buzima bwa buri munsi, bari kunywa inzoga.

Resitora ni nziza cyane zifasha abantu batagira ingo kubona amafunguro yo kurya, ndetse zikongera zigafasha abantu bagiye mu kazi kure batabona uburyo bagera mu ngo.

Mu mudugudu w'iwacu, habamo amabutike meza cyane atandukanye. Acuruza ibintu bitandukanye. Hari acuruza ibicuruzwa, n'acuruza matera. Matera zidufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi, kuko turaruhuka iyo bwije, iyo ari nziza cyane zituvura umugongo n'amavunane.

Mu Rwanda babamo loji nyinshi cyane , bigafasha ba mukerarugendo kubona aho barara, mu gihe bavuye mu bihugu hirya no hino bitandukanye. Bigatuma imisoro mu Rwanda yiyongera, maze ibikorwa remezo bikazamuka.

Butike ni nziza cyane zicuruzwamo ibicuruzwa byinshi cyane bigiye bitandukanye hirya no hino mu duce dutandukanye. Usanga gare zicuruza imyaka, hari n'izindi zicuruza ibikoresho byo mu nzu byinshi cyane bigiye bitandukanye.

Kantine ni nziza cyane kuko ibamo ibicuruzwa byinshi cyane bigiye bitandukanye. Kandi haba harimo isuku bigatuma abantu benshi bagenda guhahiramo ibintu, kubera yuko akenshi usanga binarimo.

Butika ni nziza cyane, zidufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi. Bari izibamo amandazi, amavuta n'ibindi byose bidufasha mu kubaho neza, mu buzima bwacu n'amahoro menshi, bigatuma tubaho neza.

Butike zibamo ibicuruzwa byinshi cyane bigiye bitandukanye ubunyobwa, indagara, amandazi, biswi ndetse hakabamo n'ibikinisho by'abana maze bagakina banezerewe.

Akarere ka Burera habamo butike nyinshi cyane, zivamo ibintu byinshi bihendutse nka biswi, bombo, umukati keke, ibyo byose usanga bihendutse mu buryo bwo hejuru.

Botike ni nziza cyane zidufasha mu gucuruza ibikoresho bigiye bitandukanye. Bidufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi. Nk'impeta, umukufi ni mwiza cyane. Iyo uwambaye ubona uboneye, maze uwawambaye abantu bakamutangarira kubera ubwiza bwabyo, bakanezerwa.

Botike zicuruza ibikoresho bigiye bitandukanye dukenera mu buzima bwacu bwa buri munsi. Nk'abagore bakunda kwambara ibitenge kandi bakarara ahantu heza hashashe bifashishijemo amashuka n'imisego na kuvurori bakaryama neza.

Mu gashangiro haba amabutiki menshi cyane, agiye atandukanye, kandi bacuruza ibikoresho byinshi cyane bifite akamaro kagiye gatandukanye, isafuriya bayifashisha bari guteka, naho ibikosi byifashisha bari kunywa igikoma, indobo bazifashisha bari kumeseramo hamwe n' amabase, ndetse bakarekamo n'amazi yo gukoresha igihe imvura yaguye, cyangwa igihe amazi yagiye.

Muri butike habamo ibikoresho byinshi cyane dukenera harimo ibigori, ibishyimbo, ibijumba. Ibyo byose bituma abantu babaho neza, bigatuma bishima.

Butiki ni inzu y’ubucuruzi ibamo ibikoresho byinshi cyane bitandukanye, nk’amavuta yo kurya, yo kwisiga, hakabamo amasafuriya yo gutekamo, ndetse n’imikubuzo yo gukuburisha ahantu.

Muri butike bacuruzamo ibikoresho byinshi cyane bigiye bitandukanye, usanga hari amabutiki bacuruzamo amapine bashira mu magare, mu mamodoka, hari n'ay'andi mabutike usanga bacuruza imyenda myinshi cyane igenda itandukanye y'ibitsina bigiye bitandukanye, na yo uyisangamo.

Botiki ni nziza cyane kuko zicuruzwamo ibicuruzwa byinshi cyane bigiye bitandukanye, bigatuma abaturage babibona ahantu hafi batagiye kure maze bikabona abakiriya benshi cyane kuko akenshi usanga ari byiza, ariko usanga bihenze kuko biba byavuye mu masoko bihendutse.

Resitora ni nziza cyane kuko usanga harimo ibiribwa bigiye bitandukanye, usangamo inyama z'inkoko, ifiriti n'ibindi byinshi. Ibyo ng'ibyo babyifashisha bari kwakira abakiriya.

Butike ni nziza cyane zibamo ibikoresho byinshi cyane bitandukanye. Harimo baro, ingofero, gitari y'abana n'ibindi binezeza abana, muri butike ugenda ubisangamo.

Mu Rwanda habamo amabutike menshi cyane, acuruza ibintu byinshi bitandukanye hari abacuruza inkweto, amasogisi, amavuta, bituma abaturage babihaha ari benshi, maze bikanezeza abantu.

Inyabugugu habayo ibicuruzwa bigiye bitandukanye kandi bihendutse, usanga hari imyenda y'amabara agiye atandukanye nk'umuhondo, icyatsi ibyo byose bituma bikurura abakiriya bakaza biruka.

Butike ni nziza cyane kuko zibamo ibicuruzwa byinshi cyane bigiye bitandukanye usangamo amandazi, ugasangamo imikati, ugasangamo bombo n'ibindi byinshi cyane nk'indobo. Ibyo ngibyo ubyifashisha uri gukora nk'akazi ko mu rugo.

Botike ni nziza cyane, zibamo ibikoresho bigiye bitandukanye hirya no hino abantu badapfa gusanga ahandi. Nka biswi, bombo n'ibindi byinshi.

Butike ni nziza cyane, kuko zidufasha kubona ibicuruzwa bitatugoye dukenera turi gukoresha mu rugo: nk'ibishyimbo, ibirayi, ibigori. Ibyo ngibyo ubisanga mu ma butike ari byinshi.

Butike ni nziza cyane kuko zicuruza ibikoresho byinshi cyane bigiye bitandukanye n'ibiribwa bigiye bitandukanye, usanga hari amabutike acuruza ibikoresho byo mu rugo, hari n'andi mabutike acuruza ibiribwa byo kurya.

Butike ni nziza cyane zibamo ibintu byinshi cyane bitandukanye harimo: umuceri, kawunga, umugati, biswi n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye.

Butiki ni nziza cyane. Zidufasha mu kubona ibiribwa byinshi cyane bitandukanye. Hari ibigori, hari ibirayi, ibishyimbo, ibitunguru, inyanya. Ibyo byose bidufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Butike ndazikunda cyane zidufasha mu kubona ibiribwa bitandukanye byinshi cyane nk'ibirayi, ibishyimbo, ibigori, ibijumba, bituma abantu batagenda guhaha ahantu kure cyane, bakaza bagatekera ku gihe maze bakishima cyane.

Insengero ni nziza cyane, zifasha abantu gusenga kandi bakanaririmba bakanezerwa bakishima, kubera y'uko baba bageze ahantu hari byose badafite.

Kizungu habamo hoteri nyinshi cyane zigiye zitandukanye, zibamo abantu benshi kandi zitanga serivisi nziza cyane, abantu ku buryo iyo bahageze bagiye kuhafatira ibintu no kwishima, bataha banezerewe cyane.

Isoko ni ryiza cyane ribamo ibintu byinshi bidufitiye akamaro; nk'inyanya, ibitunguru, amavuta, pavuro. Ibyo ngibyo bikora isosi neza bikayiryoshya.

Amavuta ndayakunda cyane atuma umuntu amera neza uruhu rusa neza nta mwera mu maso, bigatuma abantu bamutangarira cyane kubera ubwiza bwe, kubera amavuta yisise meza cyane.

Muri gare ya Musanze ni heza cyane, habamo isoko ricuruza ibintu byinshi bigiye bitandukanye nk'imboga, inyanya, amaronji ibintu byinshi ubisangamo kubera uburyo rihambaye.

Mu gihugu cyacu harimo amasoko menshi cyane. Hacuruza imyaka itandukanye, ibirayi, ibishimbo, ibitunguru n'imboga. Bidufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi, tukagira imibereho myiza, kubera ibiribwa byiza, byatugezaho ku gihe.

Mu masoko agiye atandukanye, bacuruza imbuto nziza cyane, zinejeje nka pome, voka, imyembe, ibinyomoro, ibyo byose ni byiza, ku buzima bwacu bwa buri munsi.

Muri botitiki bacuruzaga ibintu byinshi cyane byiza bidufitiye akamaro kanini, bacuruza ibirungo byinshi cyane bidufashaga gutukuza ibiryo, kandi bagira n'amajyane adufasha guteka icyayi, tugirag n'isabune ya omo iyo ngiyo itumaga imyenda zacu zisa neza cyane, tukagira n'ibindi byinshi cyane bitugirira akamaro kacu ka buri munsi.

Keke ni nziza cyane, ziraryoha ziba ziri muri disayini zigiye zitandukanye, hari izibaga zikozwe mu mutima n'iziba zibumbabumbye, izo keke abantu bakunda kuzigura kubera uburyo ziryoha.

Isoko ni ryiza ridufasha kubona ibiribwa bigiye bitandukanye, bidufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi, mu kubaho neza. Nk'ibitoki, inyanya, pome, imboga. Ibyo byose birakungahaye mu gutekwamo ibiryo biryoshye.

Amasoko menshi acuruza ibirayi, karoti, imboga n'ibindi byinshi. Ibyo byose bidufasha guteka ifunguro ryujuje ubuziranenge kandi riryoshye.

Ibigega ni byiza cyane, bidufasha mu gufata amazi, mu gihe imvura yaguye, maze bikarinda gusenya ingo nyinshi, mu mudugudu wacu, maze tukabaho neza, tunezerewe kandi twishimye.

Inkweto ni nziza cyane zigiramo amabara meza cyane agiye atandukanye, usanga harimo amabara asa n'ubururu hari n'ayandi aba asa n'umweru, hari n'ayandi aba arimo umutuku n'umukara n'agahondo gake, hari n'ayandi aba arimo umukara wonyine, hari n'ayandi aba asa n'umukara n'umweru, ayo mabara aba ari meza cyane.

Muri goyiko bacuruza imyenda myinshi cyane itandukanye, igira amabara meza cyane, ku buryo bituma abantu benshi bagenda guhahiramo, bagatahana imyenda myinshi cyane bitangaje.